Hari abaturage benshi bakora akazi ko gucuruza imiti ivura amatungo yo mu rugo indwara zitandukanye cyangwa se imiti abaturage batera mu myaka yabo kugira ngo itaribwa n'udukoko. Aba ngaba usanga binjiza amafaranga menshi kubera ko bakunda kuganwa n'abahinzi n'aborozi.

Abakora umurimo w'ubworozi n'ubuhinzi, usanga bagana amaduka acuruza imiti ivura amatungo ndetse n'imiti iterwa mu myaka kugira ngo yice udukoko, ibi byose bibafasha kubona umusaruro mwiza yaba uwuturutse ku matungo yabo cyangwa se imyaka baba bahinze.

Igihingwa cya kawa kigomba kwitabwaho cyane binyuze mu kugifumbira ndetse no kugisasira kugira ngo kibashe gutanga umusaruro, abahinzi biganjemo ab'ibitsina byombi yaba abagabo n'abagore, bose basigaye baramenye akamaro ko guhinga ikawa.

Imbuto z'ibinyomoro ni zimwe mu zihingwa n'abaturage batari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko zitanga umusaruro mwiza binyuze mu kuzigurisha ku masoko ndetse no kuzirya mu ngo, dore ko ibinyomoro bikungahaye mu kongera vitamine C, ndetse ibinyomoro bikaba ari byiza ku bana bakiri batoya kuko bibafasha mu mikurire yabo.

Ubuhinzi bw'inyanya buteza imbere cyane abaturage, ariko bugakorwa hifashishijwe ubutaka bwera kandi burimo ifumbire, ndetse umuhinzi akazirikana kuvomera imbuto ze, kugira ngo zibashe gukura neza zishishe kandi zizamuhe umusaruro.

Kwibumbira mu mashyirahamwe ku baturage bakora ubuhinzi bw'imbuto, ni igikorwa cyiza cyane, dore ko kibafasha mu koroherezwa guhabwa inguzanyo yo kongera umusaruro wabo, kandi bagahabwa n'ubujyanama ,bujyanye n'uko batubura imbuto zabo, bikabaha umusaruro mwinshi.

Igihingwa cya avoka gikomeje kwitabirwa n'abahinzi batari bakeya mu kugihinga. Avoka yeraraho imbuto zifashishwa mu kuzirya, aho abantu usanga bazifata nk'imbuto cyangwa bakazirisha amafunguro. Avoka kandi ikorwamo amavuta yo kwisiga ndetse n'isabune.

Guhinga imbuto bijyana no kuzitaho, binyuze mu buryo bwo kuzivomerera ndetse no kuzifumbira, iyo umuturage adafumbiye imbuto ze zirumagara kandi iyo ashyizemo ifumbire nyinshi nabwo zirababuka, buri muturage wese agomba kwita ku rubuto rwe arufumbira akoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda iringaniye kandi akanaruvomerera.

Ubuhinzi bw'icyayi bufite akamaro gakomeye cyane ku Gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko icyayi kigemurwa hanze, maze kikinjiriza igihugu amadovize yifashishwa mu iterambere no kuzahura ubukungu bw'igihugu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bukorerwa mu mashyirahamwe, aho abaturage bibumbira hamwe bagafatanya mu gutera imbuto zitandukanye, bagafatanya kuzitaho no kuzivomerera, bikabahesha umusaruro mwinshi, bikanaborohereza mu guhabwa inguzanyo n'ibigo by'ishoramari kugira ngo barusheho kongera umusaruro.

Umurimo w'ubuhinzi ukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda dore ko usanga abaturage bakora ibikorwa byiganjemo guhombeka imbuto zirimo iz'ikawa cyangwa izindi ngemwe nk'amatunda ibinyomoro, aho babikora bifashishije amashashi yabugenewe hagashyirwamo itaka kandi ririmo ifumbire ubundi bagatuburiramo imbuto zizatanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkwavu ni bumwe mu butanga amafaranga menshi kandi bugateza imbere ababukora. Inkwavu zivamo inyama zo kurya ndetse impu zazo zifashishwa mu gukorwamo imitako itandukanye. Hari n'abafata amaganga y'inkwavu bakayabyazamo ibindi bintu bikomeye cyane kandi bakanayagura.

Guhinga ubutaka bijyana no kubutunganya, ni yo mpamvu abahinzi bashishikarizwa gufata ubutaka bakabutunganya bakabukuramo amatarasi, abafasha mu kurwanya isuri, ishobora kubatwarira imyaka bahinze.

Ubuhinzi bw'imbuto y'ibigori ni bumwe mu bakunze kwitabirwa n'abaturage batari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ibigori bigemurwa mu nganda zikabitunganya, zikabikoramo ifu ya kawunga ikunze kugemurwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu.

Umuceri uhingwa n'abaturage batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iki gihingwa giterwa mu kabande, ahantu haba amazi menshi cyane. Umuceri kandi winjiriza abantu amafaranga, binyuze mu kuwugurisha ku nganda ziwutunganya, zikawugurisha mu baturage.

Ubuhinzi bw'urutoki bugomba gukorwa hifashishijwe uburyo bwa kijyambere. Buri nsina yose igomba guterwa muri metero ebyiri n'iyindi. Kandi insina zigasasirwa, zikavomerwa kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni bumwe mu batanga umusaruro ukomeye cyane, imyumbati yifashishwa mu gukorwamo ubugari buribwa, imyumbati kandi yifashishwa mu gukorwamo irangi, imyumbati ifasha abahinzi kwiteza imbere kandi mu gihe gitoya, imyumbati ishobora kwerera umwaka umwe.

Abakora ubuhinzi bw'ibiti birimo inturusu ni bamwe mu babona umusaruro ukomeye cyane, inturusu zikorwamo imbaho zifashishwa mu kuvamo ibikoresho byo mu rugo harimo nk'ameza, intebe twicaraho, ndetse n'imyuko dusongesha ubugari.

Ubuhinzi bw'indabyo, bufite akamaro gakomeye cyane ku babukora. Dore ko bagurisha indabyo zabo ,ku bantu bazikeneye. indabyo zikunze guterwa ku mahoteri, ku bigo byigenga by'amashuri, ndetse n'ibya Leta, ku nsengero n'ahandi. Ahantu hateye indabyo haba hasa neza cyane, bigatuma abantu bifuza kuharuhukira.

Urusenda rusigaye ruhingwa n'abaturage benshi, kubera ko rufite umusaruro ukomeye cyane. Rusigaye rugemurwa ku masoko yo hanze y'Igihugu, maze abahinzi baruhinga bakabasha kwinjiza amafaranga menshi cyane, abafasha kwiteza imbere, maze bakarwanya ubukene.

Ubuhinzi bw'imbuto z'amatunda bukomeje gufata indi ntera mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abahinga amatunda basigaye babona amafaranga menshi, binyuze mu kuyajyana ku isoko ryo mu gihugu imbere, ndetse no kuyagemura hanze y'igihugu, dore ko asigaye agurwa cyane mu bihugu by'Iburayi.

Mu isoko uhasanga urusobe rw'imbuto zitandukanye, harimo ibinyomoro, amatunda, amacunga, ibicugandimu, pome n'izindi mbuto. Imbuto zose zigira akamaro cyane kuko abaturage bakunda kuzigura, ubundi bikinjiriza abakora ubu buhinzi ndetse n'abazirya bakabasha kugira intungamubiri mu mubiri wabo.

Ubuhinzi bw'indabo bwateye imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, binyuze mu kuzigurisha mu masoko y'imbere mu gihugu, ndetse no kuzigemura ku masoko mpuzamahanga, ibi bikinjiriza amafaranga atari make abakora umwuga wubu buhinzi.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko abahinzi bamaze kumenya akamaro ko guhinga imbuto, twavuga nk'igiti cya avoka, dore ko usanga gikorwamo nk'amavuta yo kwisiga ndetse voka zikanaribwa cyane, bigatanga umusaruro ku bahinzi ndetse n'abaturarwanda.

Abantu bagomba kurya imbuto z'imineke mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, abahinzi na bo bakitabira guhinga intoki kugira ngo umusaruro ukomeze kuboneka mu masoko, kandi babashe no kwinjiza amafaranga binyuze mu kugurisha imineke.

Ubuhinzi bwa karoti ni bumwe mu butanga amafaranga atari makeya, dore ko karoti zerera igihe gitoya kigera nko ku mezi atari hejuru y'atanu, karoti kandi umuhinzi aba asabwa kuzivomera kugira ngo zibashe gukura neza ndetse akanazifumbira.

Ubuhinzi bw'imbuto y'urusenda bwateye imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko rusigaye rugemurwa hanze y'igihugu, rukabasha kwinjiriza amafaranga menshi abakora uyu mwuga, kandi na bo bakagirira akamaro igihugu binyuze mu gutanga imisoro.

Mu isoko usanga abacuruzi bacuruza imbuto zitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Twavuga inyanya, intoryi, imyembe, amacunga, imiteja, urusenda, ibitunguru n'imboga za dodo. Ibi byose bifitiye akamaro abantu babigura kuko byongera intungamubiri bikanarinda indwara.

Abakora ubuhinzi bwo gutubura imbuto n'ibimera bitandukanye, usanga baribumbiye mu muma koperative, kugira ngo biborohereze mu gufatanya imirimo yo kuzivomera no kuzitera, kandi ikanabafasha mu kuzamura ubukungu bwabo burimo kubakira izi mbuto, ndetse no kuzihigira isoko.

Gutera urubingo ku butaka ni kimwe mu gikorwa cyiza gifasha abahinzi mu kurwanya isuri. Urubingo rufata ubutaka bityo isuri ntibashe kubutwara ku buryo bworoshye. Buri muhinzi wese yagakwiriye gutera urubingo ku ntango za buri murima we.

Abaturage bagomba gutera ibiti ku misozi, kandi bakahaca n'amaterasi kugira ngo hirindwe gutwarwa k'ubutaka bitewe n'isuri iba yaturutse ku mvura yaguye ari nyinshi cyangwa se umwuzure, maze bigatuma ubutaka bugenda.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwateye imbere cyane, dore ko nta butaka bugipfa ubusa, yaba ubw'igasozi ndetse n'ubwo mu kabande. Hose hasigaye hahingwa ubwoko bw'imbuto zitandukanye, hakifashishwa imashini zivomera iyi myaka mu gice cy'imusozi ndetse no mu kabande mu rwego rwo kurushaho kunoza umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bitanga umusaruro mu gihe gitoya kandi cya vuba. Ingurube ishobora kubwagurira amezi icyenda, ingurube kandi mu mezi nk'atanu iba yabashije gukura cyane ku buryo ishobora no kwima ikaba yabyara.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu butanga umusaruro mu gihe cya vuba kandi ku buryo bwihuse, ingurube ishobora kubwagura ibibwana birenga icumi kandi byose ubifashe neza birakura bikaguha amafaranga atari make, byibuze ubu ngubu ikibwana cy'ingurube ku isoko kigura amafaranga atari munsi y'ibihumbi cumi na bitanu.

Ubworozi bw'inka za kijyambere butanga umusaruro mwinshi, kubera ko izi nka zikamwa amata menshi, kandi zigatanga ifumbire, zikagira n'inyama ziryoha cyane. Aborora izi nka, ntibahwema gushishikariza bagenzi babo kuzitunga, kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inka za kijyambere bukomeje gutera imbere cyane, dore ko butanga umusaruro ukomeye, yaba uturuka kumukamo, ifumbire ndetse n'inyama. Inka kandi, ishobora kubyara, nyuma yo guhaka amezi icyenda, bityo uwari uyoroye akabasha kugira umubare w'inka nyinshi. Inka zigomba kororerwa mu biraro, nk'uko bigenwa n'itegeko ry'igihugu ry'ubuyobozi bw'u Rwanda.

Amatungo yo mu rugo agomba kwitabwaho akagaburirwa binyuze mu kuyashakira ibyatsi kandi bihagije, aha twavuga nk'ihene aho usanga abazorora bazahirira ibyatsi zikabasha kurisha maze zigakora vuba zikabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inka za kijyambere butanga umusaruro mwinshi, twavuga ko inka za kijyambere zitanga umukamo utubutse cyangwa se ushyitse, inka za kijyambere kandi zitanga ifumbire nyinshi, inka za kijyambere zitanga n'inyama, aborozi rero bashishikarizwa korora inka za kijyambere.

Abahinzi benshi bakunze kwitabira guhinga igihingwa k'imbuto y'imyumbati kubera umusaruro gitanga. Twavuga nko kweza imyumbati ikorwamo ifu y'ubugari ikagurishwa ku mafaranga atari makeya, bigatanga umusaruro ku bahinzi b'imbuto y'imyumbati.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa zifitiye akamaro gakomeye cyane abantu, dore ko zifashishwa mu kubarindira umutekano, kandi zikabasha kubana nabo, imbwa zifashishwa mu mwuga w'ubuhigi, aho usanga abaziciririye bazishumura mu bihuru no mu bigunda, zigafata izindi nyamaswa z'igasozi harimo nk'inkwavu maze bakabona inyama.

Korora inka za kijyambere ni bimwe mu bifasha abaturage benshi kwiteza imbere mu buryo bworoshye. Inka za kijyambere zitanga umukamo ushyitse cyangwa utubutse. Inka za kijyambere kandi zitanga n'ifumbire, inka za kijyambere ntawashidikanya y'uko zitanga n'inyama zitubutse.

Umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi bugezweho unjyana n'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse no guterwa mu myaka mu rwego rwo kwirinda udukoko dushobora kuyangiza cyangwa se indwara zakibasira amatungo tworora.

Amatungo yo mu rugo arimo nk'inka n'ayo agomba kwitabwaho, hagakurikiranwa ubuzima bwayo mu rwego rwo kugira ngo arusheho gutanga umusaruro mwiza uvuye ku makamo, igihe inka igaragaje ikibazo ni byiza guhamagara umuvuzi wabyigiye kandi ubifitiye ubushobozi, akaza akayivura.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bugomba gukorwa hifashishijwe uburyo bwa kijyambere kandi amatungo akororerwa mu biraro, amatungo yo mu rugo agomba guterwa amaherena, yifashishwa mu gutandukanya itungo n'irindi, igihe rigiye ku isoko cyangwa se umuturage yaba yaryibwe, rikabasha gukurikiranwa.

Mu byanya byahariwe inyamaswa uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baje kwirebera ubwiza nyaburanga ndetse n'imyifatire y'inyamaswa zibamo, dore ko usanga bahakura ibyishimo bikomeye cyane, aha twavuga nk'inyamaswa zirimo ingagi, inguge, zigira imyifatire n'imico itangaza benshi babasha kuzishimira.

Mu byanya by'inyamaswa habayo urusobe rutandukanye rw'ibinyabuzima, aha twavuga nk'inyamaswa zirimo imparage, udusumbashyamba ndetse n'isha. Ibingibi bifasha abasura ibi byanya kwishima binyuze mu kwitegereza ubwiza n'uburanga bw'izi nyamaswa ariko nabo bagatanga amafaranga ateza imbere igihugu.

Inyamaswa z'igasozi z'ibitera zigira imyifatire itangaje cyane ikunze kurangaza benshi barangarira izi nyamaswa bashaka kwirebera uburyo ziganira, uburyo zirya ndetse n'uko zigenda.

Mu byanya byahariwe inyamaswa uhasanga urusobe rw'ibinyabuzima rwinshi, twavugamo nk'inyoni, aho usanga zikurura ba mukerarugendo bagiye kuzireba, hari ubwoko bw'inyoni cyangwa ubuguruka butakiboneka mu bihugu ibyo ari byo byose ku isi, bityo bigatuma abashaka kuzireba bajya gusura ibihugu zibamo.

Mu byanya byahariwe inyamaswa usangayo amoko atandukanye harimwo nk'ingagi ndetse n'ibitera. Izi nyamaswa zifite uburanga ariko imico yazo na yo itangaza abantu benshi, igatuma bazikunda, bakajya no kuzisura.

Ibitera ni inyamaswa z'agasozi zigira imyifatire itangaje cyane, zikunze gukina nk'abantu zikagenda mu muhanda, zikarya ibiribwa nk'ibyo abantu barya birimo nk'imineke cyangwa avoka, ibitera abantu barabikunda cyane binyuze mu kubireba kubera imyifatire yabyo itangaje.

Urusobe rw'inyamaswa zigasozi rugomba gusigasirwa murwego rwo kugira ngo tuzibungabunge ntizicike, nta muturage wemerewe kujya guhiga mu bigo bya hariwe inyamaswa cyangwa kwica inyamaswa y'igasozi atabiherewe uburenganzira.